Ino aha iwacu dutera ibigori umuti kugira ngo hatazamo shoko, shoko iyo ijemo bituma bitera bigapfa bigatuma utabona umusaruro ,ariko iyo twateye umuti tubona umusaruro mwinshi cyane ,byakwera ibigori bikadufasha mu kubigurisha cyangwa tukabirya.

Imvaruganda iri mu mufuka bari kuyigurisha. Na twe inaha iwacu tugira imvaruganda. Iyo tugiye guhinga ibirayi cyangwaga ibishyimbo, cyangwa n'amasaka turayihingisha kugira ngo umusaruro wacu wiyongere ku wo twasaruraga. Bidufasha kongera umusaruro, ubuhinzi bwacu bukiyongera, bugatera imbere, imvaruganda iyo bayigurishije dutanga amafaranga bakunguka.

Ibiryo biri ku isahane birimo ifi, birimo ifiriti, birimo imyanya, birimo ironji, natwe inaha iwacu duteka ifiriti, tugateka ifi, tugashyiraramo irunji tugashyiramo n'inyanya, tugashyiramo n'ibitunguru, tukabirya bigatuma tugira ubuzima bwiza.

Ibyo bagiye kwifashisha mu guteka ifi: Harimo karoti, inyanya, ikirayi sereri. Bagiye kubikoresha bari guteka kugira ngo barye ibiryo birimo intungamubiri zitandukanye maze babirye biraba biryoshye.

Umusaruro w’amafi, bari kuyagurisha. Natwe, inaha iwacu, tugira umusaruro w’amafi. Iyo twagiye gufata mu ngezi, tugakuramo amafi, turayagurisha, bakaduha amafaranga. Ayo mafaranga, tukayifashisha mu buzima busanzwe. Amafi kandi, turayarya, cyangwa se tukayajyana muri resitora, tukayagurisha, bakaduha amafaranga. Amafi aba afite akamaro kenshi cyane, ku buzima bw’umuntu. Ni ibiryo, barayarya.

Umusaruro w'amafi uvuye mu mazi bawushyize hamwe. Bategeje kuwugurisha ngo bakuremo amafaranga yo kwifashisha mu bindi bintu bakeneye; nko guhaha, nko kugura ibintu bakeneye, no kuba bohereza aya mafi hanze y'igihugu bakabona amafaranga menshi cyane.

Ibiryo biri ku isahani harimo igitoki ,sereri , pavuro ,indimu ,ironji, umuceri ,bivangavanze byose biri ku isahane ni ibiryo by'imvange mbese muri rusange.

Ikiyaga, hagati harimo akarwa gatuyemo abantu, harimo amazu, hariho n'ibiti, kuri ako karwa hariho ubwato hepfo, hakurya y'ikiyaga hariho amazu, ibiti , umurima ,insina n'amavoka.

Ikigo cy'amashuri inyuma yacyo hariho ibiti, hariho inka iri kurya ubwatsi, ikigo cy' amashuri abanyeshuri bigamo gifite ibintu bidukikije, inka yifashishwa ku mata, iyo bari gukama amata bashobora guha abanyeshuri bakazanywa bakagira ubuzima bwiza.

mu buhinzi bwa pinari penari n'imboa bajyaga iwacu tugira uuhinzi bwa pinari iyo zeze turarirya cyangwa tukazikoresha zifite akamaro kenshi cyane iyo zabaye' nyinshi tuzijyana mu masoko cyane papa azohereza ahandi hantu ku bigo by'amashuri tukabona amafaranga

Ubuhinzi bw' urutoki ino aha iwacu duhinga ibitoki, iyo ibitoki bijemo bikera turagurisha, bakaduha amafaranga cyangwa se ibyo bitoki tukaba twabiteka tukabirya ibitoki bifite akamaro kenshi cyane iyo bisaruwe insinsi zabyo baziha amatungo bigatanga ifumbire.

Amabuye bifashishwa bari kubaka sima bita amagaraviye bahondeye hasi, barayagurisha bakabonamo amafaranga yo gulykoresha mu bindi bintu bashaka, bashobora kuguramo nk'imyenda cyangwa ibyo kurya mu mafaranga babahaye.

Umusaruro wa voka ugira akamaro kenshi cyane, iyo zeze bazijyana ku isoko bakabaha amafaranga ayo mafaranga bakabyifashisha mu bindi bintu bakeneye mu buzima bwabo, n'inaha iwacu tugira avoka, iyo zeze turazirya cyangwa tukazigurisha, bikaduteza imbere kuko ziduha amafaranga.

Nkinaha iwacu duhinga ibishyimbo, iyo byeze turabirya tukanabigurisha ,kandi ibishyimbo bidufitiye akamaro kenshi cyane mu kwiteza imbere ,bituma tubona amafaranga yo gukoresha n'ibindi bintu byinshi cyane.

N'inaha iwacu tugira imihanda irimo galaviye. Garaviye ni amabuye aba ari mu muhanda ari utuye dutoya dutoya. Kandi iwacu na twe duhingaga ibigori bikera. Iyo byeze turabigurisha bakaduha amafaranga cyangwa tukabijyana mu ikusanyirizo bakazabikoramo iyindi mbuto yo bazahinga ikaduteza imbere cyane.

Urubingo ruri mu murima ni ubwatsi bw'amatungo. Rurinda amasuri, urubingo warwahira bakarugurisha bakabaha amafaranga, yo kwifashisha mu kugura ibindi bintu bitandukanye bivuye muri urwo rubingo, bari bahinze mu murima.

Ubuhinzi bw'amajeri iyo amajeri yeze turayagurisha bakaduha amafaranga, ayo mafaranga tukaguramo izindi mbuto. Natwe ino aha iwacu duhinga amajeri yakwera tukayateka, iyo tuyatetse turayarya cyangwa tukaba twagurisha ibiryo bakaduha amafaranga. Umusaruro w'amajeri ufite akamaro kenshi cyane turayagurisha.

Umusaruro w'igitoki aho kiri bagiteye cyara tugaterara wacugahinga ubwo kiga yahingagiraga ibitoki tukabiga cyangwa tukabigurisha tubyita akamaro kenshi cyaneiki gihe baduhaga amafaranga tukayakoza ibindi bintu dushaka cyane ibyo biki tukabikoramoete itandatukabite

Umusaruro w'ibirayi n'umusaruro w'ibitoki, natwe ino aha iwacu duhinga ibitoki, tugahinga ibirayi ,iyo ibirayi byeze tubijyana mu isoko bakaduha amafaranga ayo mafaranga baduhaye tukayifashisha mu buzima busanzwe tugahaha ibyo tudafite, ibirayi kandi turabiteka, ibitoki na byo iyo byeze turabigurisha bakaduha amafaranga cyangwa tukabiteka kukabirya.

Amashyamba afite akamaro kenshi cyane, amashyamba atuma duhumeka umwuka mwiza, amashyamba atuma tubona inkwi zo gucana. Kubera ko hano iwacu, dutera ibiti, ibiti tukabyifashisha mu buzima busanzwe, turabicana, ibiti bizana umuyaga mwiza, ibiti iyo byakuze turabibaza, tukabonamo imbaho, tugakoramo intebe n'inzugi.

Umurima bahinze hahinze imbuto ariko imyaka ntiramera, hirya yaho hariho imigano imigano n'ikinobonobo ikinobonobo kiri mu ntabire, imigano iri inyuma y'intabire mu ntangiriro bahahinze izuba riri kuva.

Ibirayi biteye mu murima bitangiye kuyanga kugira ngo bizabone uko byera. N'ino aha iwacu duhinga ibirayi mu murima. Iyo byeze turabikura, tukabirya cyangwa tukabigurisha bakaduha amafaranga. Ayo mafaranga tuyakoresha ibindi bintu bisanzwe nko kugura imbuto , ukongera ukayitera ukabonamo...

Umusaruro w'amateka amwe arakase andi ntabwo akase aho bategereje kuyagurisha cyangwa bakaba bayateka ntatwe iyo iwacu duhinga amateke bamwemwe turayarya adi tukatagushya, bakaduha amafaranga tukiteza imbere mu buzima bwacu bwa buri munsi, amateke afite akamaro kanini cyane ku buzima bw'abantu.

Natwe ino aha iwacu, tugira ahantu tugurishiriza ibyo kurya, inyuma ya salo hariho ibiribwa byo kurya udatetse byinshi harimo ibihaza, harimo amaronji harimo ibitunguru, ibinyomoro harimo n'ibintu byinshi cyane bituma abantu bagira ubuzima bwiza, bukabarinda kuba......

Ubuhinzi bw'indabo aho bahinze indabo zikaba zarayanze, natwe ino aha iwacu tugira ubuhinzi bw'indabo iyo twazihinze tuzigemura mu bindi bihugu, cyangwa tukazigurisha igihugu cyacu bakaduha amafaranga. Indabo zifite akamaro kenshi zizana umwuka mwiza zikazana umuyaga mwiza, abantu bagahumeka neza.

Umusaruro w'avoka natwe ino aha iwacu duhinga avoka iyo zeze tuzigurisha cyangwa tukazirya, voka zifite akamaro kenshi cyane, voka iyo zeze turazitara zakwera tukazijyana mu masoko tukazigurisha bakaduha amafaranga, cyangwa se voka tukazigurisha bakazikoramo amasabune yo gukaraba, voka zifite akamaro kenshi cyane.

Amateke ya kizungu, amwe arakase, ayandi ntabwo akase, natwe hano iwacu duhinga amateke, iyo tugiye kuyateka turarayakata. Amateke afite akamaro kanini cyane, amateke barayarya, amateke barayagurisha. Amateke iyo bayashaka barongera bakayatera, bakongera bakayateka. Amateke ni meza ku buzima bw'umuntu, afite intungamubiri nyinshi cya...

Natwe ino aha iwacu tugira ibirayi. Iyo twabisaruye tujya kubicuruza, tukabishyira mu mifuka, abagutu bakaza bakabigura bakaduha amafaranga, bayaduha tukagura iyindi mbuto, tukongera tukajya gutera, twarangiza gutera byazera tukongera tukabigurisha, bigatuma twiteza imbere mu bihingwa byacu, kandi ibirayi turabirya tukabikoramo ifiriti, ibirayi birakundwa cyane

Ubuhinzi bw' imyanya aho bwenda kwera butangiye gitukura. Bufite akamaro kenshi cyane, barazirya, bakazigurisha. Na twe ino aha iwacu duhinga inyanya, iyo zeze turazigurisha bakaduha amafaranga, tukayakoresha mu bindi bintu. Inyanya kandi turazirya tukaziteka mu biryo isosi ikaba umutuku.

Abantu bari mu murima bari gutera imigozi. Harimo ubuyobozi bw'abadasso n'abaturage n'abapolisi bose barunamye bafashe amasuka ahantu ho mu kibaya bari gutera.

Abaturage bazanye umusaruro w'imyumbati, bari gupakira ku magare kugira ngo babonemo amafaranga yo gukoresha ibindi bintu bashaka. Igare rigiye kuyijyana ku isoko.

Igihingwa cy'indimu gifite akamaro kenshi cyane mu buzima bw'umuntu, indimu barazirya, indimu barazigurisha, natwe inaha iwacu duhinga indimu, iyo zeze turazigurisha bakaduha amafaranga tukayifashisha mu bikorwa byacu bya buri munsi, indimu zivura inkorora, indimu zivura amaso, zifite akamaro ku buzima bw'umuntu.

Umusaruro w'igituki, igitoki baciye kiri hasi, igitoki kireze igitoki bakifashisha bari guteka ibiryo, bakabirya, igitoki gifite intungamubiri. Ushobora kuba wakigurisha bakaguha amafaranga ukayakoresha icyo ushaka.

Mu isoko bacuruzamo ibyo kurya bitandukanye. Mu isoko ry'inaha iwacu, ducuruza inyanya, tugacuruza mayoneze, tugacuruza amavuta yo guteka, tugacuruza imyembe, baduha amafaranga. Kandi tubyifashisha mu ngo iwacu, tukabiteka tukabirya. Iyo twabigurishije, tubona amafaranga, tukabyifashisha mu buzima busanzwe.

Umusaruro w'icyayi natwe ino aha iwacu tugira icyayi, iyo cyeze baragitunganya bakajya kugica mu murima, bavayo bakakijyana mu ruganda bakagitunganya kikahava turakinywa.

Ibihaza by'ibihwanya bidufitiye akamaro kenshi cyane. Ibihaza turabirya. Natwe ino aha iwacu duhinga ibihaza bita ibihwanya (ibihaza bya kinyarwanda) turabiteka, tukabisatura tukabirya, cyangwa tukabigurisha bakaduha amafaranga cyangwa tukaba twabipakiza n'imodoka tukabijyana mu bindi bihugu.

Umusaruro w'inyanya iyo zeze barazigurisha bakabaha amafaranga natwe ino aha iwacu, tugira ubuhinzi bw'inyanya, inyanya turazijyana ku isoko tukazigurisha bakaduha amafaranga, kandi iyo twatetse ibyo dushyira mu biryo twatetse bigahindura isura, bigatuma biryoha bikaba ibara ry'umutuku. Inyanya zifite akamaro kenshi cyane ku buzima bw'umuntu.

Amageri ateye mu murima ,asasiye neza. Iyo yeze barayaca, bakayarya cyangwa bakayagurisha ari mabisi cyangwa bakayagurisha yumye. Iyo yumye, babaha amafaranga menshi cyane. Amageri afite akamaro kenshi cyane : barayaryaga, atanga n'amafaranga iyo bayagurishije.

Ahantu bari kubagarira ibigori ,hano iwacu duhinga ibigori ,iyo bitangiye kuzamuka turabibagarira kugira ngo bizere neza, ibigori bizana umusaruro mwinshi cyane iyo byeze turabyotsa cyangwa tukabica tukabiteka, umusaruro w'ibigori uduha amafaranga.

Ibishyimbo byimiteja, natwe inaha iwacu duhinga ibishyimbo, ibishyimbo babisoromaho imiteja bakayigurisha cyangwa se bakayirya, imiteja ifite akamaro kenshi cyane, iyo yeze turayigurisha tukabona amafaranga, ayo mafaranga tukayifashisha mubuzima busanzwe, tukaguramo ibyo dukeneye, cyangwa se tukaba twa nayirya natwe.

Umugore yikoreye ibase irimo imbuto ,ahagaze mu majaride ateyemo imboga .Ahantu hari ikiraro cy'inkwavu harimo, hariho igiti, hariho ahantu hacukuye icyobo kirimo amazi.

umusaruro w'imyembe, imyembe ifite akamaro kenshi cyane, cyane ku bantu barwaye bakabaha imyembe bagira ubuzima bwiza bakaba babasha koroherwa, iyo tuzigurishije baduha amafaranga tukayifashisha mu buzima busanzwe, imyembe ushobora kuyohereza mu bindi bihugu kubera yabaye nyinshi kugirango umusaruro wacu uduteze imbere.

Umurima bahinzemo igihingwa cy'ibigori ariko ntabwo birera, biratereye, birahetse biracyari bitoto, ntabwo biragera igihe cyyo kuba byasarurwa, biracyari mu murima, ibyo bigori nibyera bizatanga umusaruro utandukanye.

Abantu bahinze ibishymbo, bari kubishingirira kugira ngo bikure neza. Natwe inaha iwacu duhinga ibishyimbo. Iyo bitangiye kuzamuka, turabishingirira kugira ngo bigende bihazamukira. Iyo bihazamukiyebigira uruyange, bikagira imiteja, maze tukazisarura ,tukihaza mu biribwa , tukabirya cyangwa tukabigurisha.

Umusaruro w'ibirayi, natwe inaha iwacu iyo ibirayi byeze turabikura tukabishyira mumifuka tukajya kubigurisha, imodoka zikaza zikayipakira iyo zibipakiye ziduhaka amafaranga, ayo amafaranga tukayafata tukagura indi mbuto tukayitera, ibirayi bifite akamaro kenshi cyane iyo twabigurishije tubonamo inyungu nyinshi cyane bigatuma twagura ubuhinzi bwacu, ibirayi kandi turabirya tukabikuramo ifiriti cyangwa se tukabigurisha abandi.

Umufuniko w'indobo uriho imbuto zitandukanye, amaronji kokombure, biri ku mufuniko w'indobo, bategereje kugurisha abakiriya bashaka kugura imbuto zo kurya, kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Inka iri mu famu iraryamye ahantu mu famu, iraryamye iri kureba bayigagaburiye ntakibazo ifite irahaze iri kureba iri mu famu .

Ibibabi by'isombe hariho igihaza basatuye bakacyanika, bari gukuramo imbuto kugira ngo babone uko bagiteka. Imbuto zimwe ziri hasi, izindi ziri mu gihaza basatuyemo kabiri, gifite ibice bibiri.

Umusaruro w'imiteja ninaha iwacu duhinga imiteja akamaro kayo turayirya iyindi tukayigurisha, igira akamaro kenshi cyane turayigurisha bakaduha amafaranga tukayifashisha mu bindi bintu dukeneye. Imiteja tuyigurisha hanze y'igihugu bakaduha amafaranga tuyakoresha mu kwagura ubucuruzi bwacu.

Umusaruro w'amapera uri mu ibase bategereje kujya kuwugurisha, natwe inaha iwacu duhinga amapera, iyo yeze turayacuruza tukayajyana mu isoko bakayagura bakaduha amafaranga cyangwa se natwe tukaba twayarya tukagira ubuzima bwiza, amapira adufitiye akamamaro kenshi cyane ku buzima bw'umuntu.

Umusaruro w'ibirayi. Inaha iwacu duhinga ibirayi, iyo byeze turabihunika, twagurisha bakaduha amafaranga afite akamaro kenshi cyane ku buzima bw'umuntu. Ibirayi barabirya bakabiteka cyangwa se bakabiteka mu ifiriti bakaba bayigurisha bakabaha amafaranga. Ibirayi bifite akamaro kenshi cyane ku buzima bw'umuntu barabirya.

Abantu bahinze ibirayi bari kubona umusaruro uvuyemo, natwe inaha iwacu duhinga ibirayi, ibirayi iyo byeze turabiteka, tukabirya, tukabikoramo ifiriti, ibirayi bigira akamaro kenshi cyane turabigurisha bakaduha amafaranga, amafaranga baduhaye agatuma twigurira ibindi byo guhinga by'imbuto, ibirayi bifite akamaro kenshi cyane.

Voka zifite akamaro kenshi cyane. Iyo duhinze voka zikera, turazihanura, turazigurisha bakaduha amafaranga cyangwa se tukaba twazirya. Voka zidufitiye akamaro kanini ku buzima bw'umuntu. Iyo wabuze amavuta, urayifata ukayikaraga warangiza ukisiga bitabyara amavuta. Voka zitanga amafaranga...

Ibicuruzwa biri ku isoko, biri ku ntara, harimo ibinyomoro biri ku ntara, ibinyomoro biri mu ishashi. Imyembe iri ku ntara wotameroni n'ibindi bikapu batanditse by'ibishashi. Bitegereje gucuruzwa mu isoko ngo bazi ko noo babaha amafaranga ari kuba bifashisha mu bundi buzima budasanzwe.

Umusaruro w'intoryi n'umusaruro bijyanye, natwe inaha iwacu duhinga imyanya tugahinga intoryi, iyo byeze tubijyana ku isoho bakaduha amafaranga cyangwa se tukaba twabirya mu ngo zacu, bigatuma tugira ubuzima bwiza, zigira akamaro kenshi cyane ku buzima bw'umuntu zongera vitami.

Wotameloni bari kuzicuruza kugira ngo bazigure . Natwe ino aha iwacu abacuruzi bacuruza za wotameloni bakazigura. Wotameloni zifite akamaro kenshi cyane. Wotameloni barazicuruza abantu bakazirya, bagatanga amafaranga cyane cyane abagore iyo bariye wotameloni bagira amazi. Wotameloni ni ibihaza barya ari bibisi.

Ubuhinzi bw’ibirayi, bari gutera ibirayi, bashyizemo n’ifumbire, bakabisibiranya. Natwe, inaha iwacu, dutera ibirayi kijyambere, dushyiramo ifumbire. Tubitera ku murongo, kugira umusaruro wiyongere, bigatuma tubona umusaruro mwinshi cyane, iyo byeze. Gutera ku murongo, bifite akamaro kanini, bituma utera ibirayi bikeya.

Inzu y'ubucuruzi irimo ibicuruzwa bitandukanye umugore ahetse umwana, umwana ari gufata ku mineke. Bari gucuruza bari gucuruza amaji, amazi, imifuka irimo ibicuruzwa, indobo zirimo ibicuruzwa n'ibindi bintu bitandukanye.

Umusaruro w'ibigori ari ibigori bitarera ariko bigira akamaro kenshi cyane, iyo byeze barabirya, bakabigurisha. Natwe inaha iwacu duhinga ibigori iyo byeze turabyotsa, tukabirya cyangwa tukabiteka tukabigurisha bitetse cyangwa tukabigurisha mu yandi ma soko bakaduha amafaranga.

Mu byaro amateke bayaronze ayandi barayateka. Natwe ino aha iwacu iyo twasaruye amateke, turayagabanya tukayateka. Amateke yandi iyo tuyagurishije baduha amafaranga, tukayakoresha ibyo dukeneye mu bundi buzima busanzwe. amateke araryoha iyo bayatse.

Ibigori bibisi bahaguye, ibindi bari ku byotsa byashya bakabisiga ikirungo, maze bakabigurisha. N'inaha iwacu iyo ibigori byeze, turabifata tukabihagura n'amababi tukabijyana tukabigurisha, twasizeho n'ikirungo bakaduha amafaranga. Bigatuma twiteza imbere mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ibigori bifite akamaro kenshi cyane.

N'inaha iwacu tugira imyembe， imyembe turayirya， tukanayigurisha bakaduha amafaranga，tuyakoresha tugura ibyo tudafite. Imyembe kandi twayijyana hanze y'igihugu， tukabona amafaranga menshi cyane， igatuma twiteza imbere， tukihaza mu byo dukora byose.

Amashu ari ku meza ahantu, munsi harimo agapaniye karimo umufuka, aya mashu bayacururiza hano, kugira ngo babone amafaranga yo kwifashisha mu bundi buzima busanzwe, bayaguramo ibyo badafite nk'imyenda se cyangwa ibyo kurya

Ibigori bitangiye guheka bitarera. Natwe ino aha iwacu duhinga ibigori. Iyo ibigori byeze tubona umusaruro mwinshi cyane, tukabona amafaranga, tukabona ibigori byo kotsa, cyangwa ibigori tukabikoramo kawunga tukaba twayitekamo umutsima. Natwe ino aha iwacu iyo twabihinze tubona amafaranga menshi cyane.

Na twe ino aha iwacu tugira avoka. Iyo twazisaruye turazitara twarangiza kuzitara zigashya. Tukaba tuzirya mu biryo, tukazisatura tukayirisha ibiryo cyangwa tukayirya yonyine. Voka kandi iyo nta mavuta ufite urayifata yahiye ukayikaraga ukisiga bikaba amavuta. Voka zigira akamaro kenshi cyane, tuzohereza mu bindi bihugu bakaduha amafaranga.

Umusaruro w'ingano uba mwiza ,ingano zifite akamaro kenshi cyane abizegera bo bagatanga amafaranga cyangwa bagakoramo imigati yo kurya bita imbada ,n'aha iwacu tweza ingano iyo zeze turazisarura tukazijyana mu masoko bakaduha amafaranga cyangwa tubakora n'igikoma.

Umugabo uri mu murima w'ibishyimbo bitangiye kuzana uruyange, impande y'aho hariho urubingo, afashe isuka uwo mugabo ayishyira hejuru ariguseka.

Umusaruro w'ibirayi bari gukura. Natwe inaha iwacu duhinga ibirayi tukabikura, turabirya turabigurisha, tubipakiza imodoka. Ibirayi bifite akamaro kenshi cyane ni ingirakamaro mu buzima bw'umuntu kuko birakenerwa. Ibirayi twabyohereza hanze y'igihugu tukabona amafaranga menshi cyane tukayifashisha mu yindi mirimo ya yacu isanzwe.

Umusaruro w'ibitoki, natwe inaha iwacu tugira umusaruro w'ibitoki, ibitoki bifite akamaro kenshi cyane, barabirya cyangwa bakabigurisha hakavamo amafaranga tukayifashisha mu bu buzima busanzwe, tukaba twayakoresha mu kugura ibindi bintu dukeneye, ibitoki bifite akamaro turabirya tukaba twabigurisha tukabihaho ni nshuti.

Ubuhinzi bwa puwavuro buba bwiza cyane. Puwavuro zifite akamaro ku buzima bw'abantu. Baraziteka cyangwa se bakazigurisha, bakabaha amafaranga. Natwe ino aha iwacu duhinga puwavuro . Iyo zeze tuzijyana ku isoko tukazigurisha bakaduha amafaranga tukiteza imbere. Puwavuro turazirya kandi tuziteka mu biryo.

Umusaruro w'inyanya. Uba usaruye ugashyira ku mufuka wari gutoranyamo izapfuye . Nkatwe inaha iwacu duhinga inyanya. Iyo twahinze, tukazisarura, tubonamo inyanya , noneho twazibona, tukavangura izapfuye n'inzima, kugira ngo tubone uko tuzigurisha. Inyanya turazirya, inyanya turazigurisha bakaduha amafaranga.

Ino aha iwacu tugira ibirayi iyo twabisaruye tubishyira ahantu hamwe, tukabigurisha bakaduha amafaranga tukayakoresha ibindi bintu dushaka, tukaba twayaguramo ibyo tudafite tukayifashisha mu kuguramo imyambaro, ibirayi biduteza imbere n'iyo babijyanye hanze y'igihugu tubona amafaranga menshi cyane.

Ubuhinzi bw'ibigori aho bategereje gusarura umusaruro uvuyemo. Uwo musaruro bawifashisha bawugurisha. Umusaruro uba utameze neza cyane barawurya, ibindi bakabijyana ku masoko bakabaha amafaranga bakayatagayishyira mu bindi bintu. Ibigori babikoramo igikoma bakakinywa cyangwa bakabikoramo umutsima wo kurya.

Umusaruro w'ibirayi babijyanye mu buhunikiro, kugira ngo bakoremo indi mbuto itangiye kumera kugira ngo bayigurishye, cyangwa bongere bayihinge. Natwe inaha iwacu iyo ibirayi byeze tubijyana mu ikusanyirizo tukabikoramo imbuto, tukabigurisha, tukabona amafaranga. Tuyakoresha ibindi bintu bitandukanye. Ibirayi biri kumera bifite akamaro kenshi cyane.

Umusaruro w'ibigori bya mayizori bari kubigosora. Natwe inaha iwacu tugira ibigori bya mayizori. Iyo byeze turabikusanya, tukawushyira ahantu, bakaba babitugurira ,bakaduha amafaranga. Amafaranga tukayifashisha mu buzima busanzwe. Imbuguyu zituma turya umutsima cyangwa tugapfa kuziteka.

Umusaruro wibihwagari ureze, natwe inaha iwacu duhinga ibihwagari, iyo byeze barabisarura bakabyanika bakabitsa, hakavamo ifu iyo tukaba twayishyira mu byo dutetse, ibiryo bikaryoha, ibihwagari bifite akamaro kenshi cyane, bituma abantu bagira ubuzima bwiza, ibihwagari kandi bituma habaho guhum.....

Umusaruro w'ibishyimbo bategereje guhura ngo bazawugurishe ,nibawugurisha ,amafaranga yavuyemo bazayifashisha mu bindi bintu bakeneye ,bagura ibikoresho by'isuku .Ayo mafaranga bayahahamo n'ibindi bintu badafite cyangwa ibi bishyimbo bakabyohereza mu bindi bihugu babikeneye. Ibishyimbo bifite umusaruro.

Agasero karateretse bari bari ku kadoda, none karuzuye bagasiga amase bategereje kugira ngo kume, noneho bakagurishe cyangwa se bakabikemo imyaka, niko kamaro k'agasero ko kubikamo imyaka.

inzu y'ubuhunikiro bahunikiramo ibigori ibafasha kubirinda kwangirika, bikagira umutekano mwiza. Natwe ino aha tugira inzu duhunikamo turazubaka, umusaruro wakera tugashyiramo ibigori, tukabihanikamo kugira ngo bitangirika tuzabigurishe, tubikuremo imbuto bimeze neza.

Umusaruro w'ibihwagari. Ibihwagari babyifashisha bari kubisyamo ifu bakabiiteka mu biryo bakabirya. Ibihwagari bashobora kubihungura bakongera bakabitera, bikazongera bikera. Ibihwaga bifite akamaro, bitanga amafaranga.

Amajeri ahinze, natwe ino aha iwacu duhinga amajeri iyo twahinze amajeri akera turayagurisha bakaduha amafaranga, amafaranga yavuyemo tukayifashisha mu buzima busanzwe, amajeri kandi turayarya turayateka amajeri iyo yabaye menshi tuyajyana ku isoko, tukaba twayapakiza imodoka izo modoka ziyapakiye, zigasiga amafaranga menshi cyane tukayakoresha ibyo dushaka.

Umusaruro w'ubunyobwa bwareze babuzana ku isoko. Natwe inaha iwacu iyo twejeje ubunyobwa turabufata tukabujyana ku isoko, tukajya kubugurisha bakaduha amafaranga. Ubunyobwa bufite akamaro kenshi cyane. Turabuteka tukabusya tukabushyira mu biryo cyangwa se tukabukaranga tukaburya. Ubunyo bwa ni ingirakamaro, iyo twabugurishije baduha amafaranga, bigatuma tuyifashisha mu kugura indi mbuto, tukongera tugatera. Ubunyobwa kandi twabohereza hanze y'igihugu.

Umusaruro w'ibigori uri ku isoko natwe ino aha iwacu ibigori tukabigurisha bakaduha amafaranga, amafaranga tukayifashisha mu bindi bintu dushaka ,umusaruro w'ibigori bya Mayizori uvamo kawunga, iyo bakoboye bagateka umutsima, kandi bakabigurisha bakabaha amafaranga, cyangwa se bakaduheza mu bindi bihugu.

Umusaruro w'ibigori barabifashe babijyana kwikusanyirizo bajya kubyanikayo iyo ibigori byeze bajya kubihunikayo bikozavamo imbuto cyangwa bakabigurisha bakabona amafaranga menshi cyane iwacu inaho iyo byeze tujya kukusanyirizo y'ibigo bakaduha amafaranga cyangwa tukazakoramo igikoma.

Umurima urimo umushogoro n'amashu. Harimo agasero karimo imiteja basoromye bashyiramo. Gatereti hagati y'umushogoro n'amashu imiteja barayirya bakagira ubuzima bwiza.

Umusaruro wumuceri ufite akamaro kenshi cyane, umuceri barawurya, umuceri bakawurugurisha, natwe inaha iwacu duhinga umuceri, umuceri iyo weze turawurya cyangwa tukawugurisha, bakaduha amafaranga yo kwifashisha mu buzima busanzwe, umuceri tuwugurisha mu bindi bihugu amafaranga akiyongera.

Umusaruro w'ibigori bawushyize mu mufuka, bakeneye kuwugurisha bakabahamo amafaranga yo kwifashisha mu buzima busanzwe ,cyangwa ibigori bakabigurisha, bakabituburamo ibindi bazongera guhinga ,bakabaha amafaranga ,bakayaguramo ibindi bintu badafite.

Uwo musaruro w'ibigori bahunguye impungure bari kuzitoranya kugira ngo bakuremo impungure zapfuye, kubera ko izi mpungure bazifashisha bari gukoramo umutsima wo kurya, cyanngwa bagakoramo ibindi bigori byo guhinga bundi bushyashya.

Umusaruro w'ubunyobwa uri mu mifuka bawusaruye kugira ngo bawugurishe, natwe ino aha iwacu dusarura ubunyobwa tukabushyira mu mifuka tukajya kubugurisha, twabugurisha bakaduha amafaranga tukiteze imbere tukagura ibyo dukeneye. Ubunyobwa kandi baraburya bakabukaranga bakaburya, cyangwa bakabusyamo ifu yo guteka mu biryo.

N'inaha iwacu twanika imyaka kugira ngo yume neza, kugira ngo tuzabone uko tujya kuyigurisha. Tukanika ibigori, tukanika ibishyimbo, tukanika n'amasaka y'amamera, bakuramo umusururu, kugira ngo byume neza, tuzabone uko tubigurisha baduhe amafaranga twiteze imbere mu byo tudafite.

Umusaruro w'ubunyobwa n'ubunyobwa baseye, natwe inaha iwacu tugira ubunyobwa, rimwe tukabukaranga, ubundi tukabushyiramo ifu tukayiteka, ubundi tukabugurisha.

Inaha iwacu tugira ikusanyirizo ry'ibigori tukabyanika, iyo tubyanitse bakuramo ibyo kugira imbuto. Ibindi bakabigurisha bikaduha amafaranga tukayifashisha mu tubazo dufite tukadukemura bakanabyohereza hanze y'igihugu.

Umurima urimo ibigori bitari byera neza mu tatsi kwa mbere niho byumye, ibigori ni byera bizaba bifite akamaro kenshi cyane abantu bazabirya abandi babigurishe bakoremo kawunga cyangwa se babikoremo imbuto yo guhinga.

Umusaruro w'ibigori bawujyanye mu buhunikiro, aho ni ho baha umuntu ijambo ngo avuge uko abona uwo musaruro nka Sina w'iwacu, duhinga ibigori tukabijyana ku ikusanyirizo aho babihunikira kugira ngo bazabashe kubikoramo izindi mbuto cyangwa babigurishe tubonemo amafaranga bitatugoye.

N'ino aha iwacu dufite ibigori. tureza ibigori, tukabyanika, tukabikusanyiriza hamwe, tukabigurisha cyangwa iyo byeze cyane tukabijyana hanze y'Igihugu tukabonamo amafaranga. ibigori bifite akamaro kenshi cyane: Turabirya tukabikoramo imbuto, tukabikoramo n'umutsima wo kuzajya duteka. Ibigori bifite akama...

Inzu irimo umusaruro w'ibigori, baje guhunika muri iyi nzu. Uwo musaruro w'ibigori bifite akamaro gatandukanye, bashobora kuwugurisha bakabona amafaranga yo kwifashisha mu bindi bikorwa bagahaha ibyo badafite cyangwa bagatubura ibigori bakaga...

umusaruro w'ingano natwe inaha iwacu dusarura ingano tukazigosora twarangiza tukazishyira mu mifuka tukazigurisha bakaduha amafaranga. Ingano zifite akamaro kenshi cyane barazigurisha bakaduha amafaranga cyangwa se bagakoramo imigati yitwa imbada bakazigurisha bakabaha amafaranga.

Umusaruro w'ubunyobwa. Ubunyobwa bufite akamaro kenshi cyane. Ubunyobwa turaburya , ubundi tukabugurisha. Nkatwe inaha iwacu, duhinga ubunyobwa. Iyo bweze, turaburya, ubundi tukabugurisha. Cyangwa se tukabugurisha bwose uko bakabaye, bakaduha amafaranga atubutse. Ubunyobwa ni igihingwa gikunzwe, kiryoha.

Umusaruro bawanitse kugira ngo wume w'ibishyimbo, uwa soya, uw'ubunyobwa, uw'amajeri, kugira ngo byume neza. Ibindi babishyize mu ibase kugira ngo bitagenda byivanga, imisaruro itagenda yivanga, ntabwo byaba ari byiza.

Abaveterineri bagiye kuvura ingurube, natwe ino aha iwacu iyo dufite ingurube zarwaye, dutumizaho abaveterineri bakaza bakazitera inshinge, iyo baziteye inshinge zirakira noneho zakira tukaba twazigurisha bakaduha amafaranga, cyangwa se tukazireka zikororoka zikabyara nyinshi, ingurube zifite akamaro kenshi cyane zitanga ifumbire kandi barazirya.

Ino aha iwacu tugira amasoko yo kugurishirizamo amatungo magufi ihene intama, iyo tugiye kuyagurisha ayo matungo yacu, baduha amafaranga tukayakoresha twikenura, cyangwa tukayahahamo ibyo kurya dukeneye, ayo mafaranga atugirira akamaro kenshi cyane tukaba twayatangiramo n'abanyeshuri amafaranga y'ishuri.

Nino aha iwacu tugira ubworozi bw'inkwavu, inkwavu zidufasha kubona amafaranga iyo tuzigurishije cyangwa tukazirya tukagira ubuzima bwiza, bigatuma twiteza imbere, zitanga n'ifumbire ryo guhingisha imyaka.

Isake iri mu mucaca. Isake ituma tumenya amasaha, buri saha iyo igeze, isake irabika irabika. Iyo wakurikiiranye amasaha ugenda umenya ngo ni saa ngahe, bitewe n'uko isake yabitse. Ishonda inkokokazi, igatuma inkokokazi ita amagi bakayarya. Isake ifite akamaro kenshi cyane.

Ubworozi bw'ingurube bororerera mu kiraro, natwe inaha iwacu tworora ingurube tukazororera mu kiraro, iyo ingurube zakuze turazigusha bakaduha amafaranga yo kwifashisha mu buzima busanzwe, cyangwa se iyo ingurube zikuze bashobora kuzibaga bakaziryamo inyama bita akabenzi. Ingurube zigira akamaro kenshi cyane, zitanga n'ifumbire bakayihingisha.

Ubworozi bw'inkwavu, inkwavu zifite akamaro kenshi cyane, inkwavu barazirya, inkwavu iyo bazigurishije babona amafaranga, inkwavu zitanga ifumbire, impamvu inaha iwacu tworora inkwavu, iyo inkwavu zarorotse zikaba ari nyinshi turazigurisha bakaduha amafaranga cyangwa se bakazibaga tukaryamo inyama inkwavu zifite akamaro.

Nk'ino aha iwacu tugira ubworozi bw'ingurube, ingurube zikabyara ,ibyana zabyaye tukabigurisha tukabonamo amafaranga ,tukiteza imbere ,izo ngurube zikongera zikabyara, zikororoka bigatuma tugira ingurube nyinshi cyane.

Ubworozi bw'inka inka zigira akamaro kenshi cyane, iyo tuzoroye ziduha umusaruro ,natwe ino aha iwacu tworora inka ,tukazubakira uburiro, tukaziha n' amazi yo kunywa. Inka zifite akamaro kenshi cyane iyo twazihaye ubwatsi, tukaziha n' amazi yo kunywa ,bituma zigira ubuzima bwiza zigatanga ifumbire ,cyangwa se zikagira umusaruro izikamwa zigakamwa amata menshi, inka kandi barazirya.

Inka ziriri mufamu ziri kurya ubwatsi, natwe iwacu tugira amafamu twororeramo inka zigatanga ifumbire, bakazirya, zigatanga n'amata. Inka zifite akamaro kenshi.

Ubuvuzi bw'amatungo, inka zarwaye veterineri ari kuzitera inshinge. Natwe inaha iwacu tugira inka. Iyo tuzifite zikarwara veterineri aza kuzitera inshinge, yazitera inshinge zigakira. Iyo zikize zirakamwa zigatanga umusaruro w'amata, tukayanywa, ayandi tukayagurisha. Inka zifite akamaro kenshi cyane, turazigurisha bakaduha amafaranga, zikaduha n'ifumbire.

Ubworozi bw'ingurube buri hano, hariho ubwana buri konka kubera ingurube yabyaye ingurube ifite akamaro kenshi cyane, itanga ifumbire kandi iyo ibyo byana yabyaye bikuze babijyna ku isoko bakabaha amafaranga yo gukoresha bakaba baguramo izindi ngurube zo korora cyangwa bakayakoresha ibindi bashaka.

Uworozi bw'ingurube, abaveterineri bari kubureba ukuntu bumeze. Ingurube ziri mu kiraro bari kuzikoraho. Natwe ino aha iwacu tugira ingurube tukazororera mu biraro. Iyo zarwaye, abaveterineri baza kuzireba bakazitera umuti kugira ngo zikire. ingurube kandi turazigurisha bakaduha amafaranga.

Ingagi zikunda kuba ahantu ho mu ishyamba, cyangwa mu birunga natwe ino iwacu habayo ingagi; ingagi zifite akamaro kenshi cyane iyo bari kuzisubura basiga amafaranga cyane cyane abazungu basiga amadolari, ingagi kandi bazita amazina iyo bari kuzita amazina bituma tubona amafaranga.